Urujya n'uruza w'abantu ndetse n'ibinyabiziga, umukobwa uri kwambuka afite umusatsi, yambaye n'ikanzu y'umukara n'agakapu gasa n'igitaka.

Abagabo batanu harimo n'abamotari babiri, n'umupolisi uri kubereka wagira ngo ari kubabwira amabwiriza, y'ukuntu bazajya bagenda mu muhanda, bose bambaye Kandi udupfukamunwa.

Abapolisi bari kumwe n'abayobozi, aba bapolisi basa nkaho bari mu bushinjacyaha, bari gukora iperereza, abapolisi ndetse n'abantu bahari bose bambaye udupfukamunwa, basa nkaho bari kwereka uyu muntu ugiye gukora iperereza.

Abapolisi benshi bari kwigishwa ukuntu bazajya bakoresha kizimyamwoto. Abapolisi bagomba kwiga gukoresha ibintu byose, kugira ngo birinde impanuka.

Inyamaswa yitwa imbwa. Imbwa ziri ubwoko bubiri. Hari imbwa yo mu gasozi, hari n'imbwa yo mu rugo. Ariko iyi mbwa yo ni iyo mu rugo. Urabona ko iri gusaka iyi myenda, kugirango irebe niba hari ikintu bibagiwemo, cyangwa iri kugira ngo irebe ibindi bitateza ibibazo.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota, ipakiye ibintu byinshi cyane cyane, kuko biragaragara ko yagejeje hejuru kandi ibi biteza impanuka.

Abapolisi bafite imbwa, buri mupolisi afite imbwa ye bari mu gikorwa cyo gukaza umutekano wa leta, kugira ngo birinde abagiranabi.

Uruvunge rw'abantu benshi bashungeye bari kureba inzu iteye amarangi y'umuhondo ariko iyi nzu biragaragara ko habayeho inkongi y'umuriro. Aba bantu bari gushungera higanjemo abagore n'abagabo ndetse n'abana.

Umuronko munini w'abashinzwe umutekano bazwi ku izina rya daso, bambaye imyenda y'icyatsi benshi ariko bigaragarako ari benshi, bakoze umuronko hari umwe ubagaragiye.

Abantu bahuriye ahantu ari benshi, bari kuganira ku bintu byatuma batera imbere. Mu nama buri wese aba afitemo igitekerezo cyatuma umuntu yiteza imbere, noneho hariho n'abandi bakamwunganira

Umugabo ufite mikoro, urikugaragaza ko hari ibintu arikuja arabwira abandi barikumwe, basa nkaho bari mu nama.

Umugabo ufashe mikoro wambaye n'amadarubindi, yambaye ishati y'umukara na marongorwa uri kubona ko hari ikintu arikubwira bagenzi be.

Abantu bicaye mu kidara bari kugira, wagira ngo bari mu nama hari ibyo bari kwigaho, hari umuntu bakurikiye uri imbere yabo.

Ahantu hari ibikoresho bya kera, mu bikoresho bya kera harimo icyansi ndetse n'igisabo biteretse ku mikeka. Imikeka ni myiza kuko yishishwa bari kuryamaho, cyangwa se bari kurambikaho ibintu.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ufite ihembe wagirango ari kurivuza , hirya ye hariho umugabo ufite kamera ari kumufotora.

Mu muco wa kera, hifashishwaga ibyansi, ibisabo igihe bari, bari gukoresha amata, igihe amata babaga bari kuyacunda bakoreshaga igisabo, baba bari kuyabuganiza bagakoresha ibyansi.

Isekuro, isekuro ni igikoresho cyakoreshwaga kera bari gusekura isombe, cyangwa bari gusekura imyumbati yo gukuramo ubugari, cyangwa imiti ya kinyarwanda.

Ikiyaga kirimo ubwato hakurya y'aho hari imisozi, muri ubwo bwato harimo abantu kandi ubwato bwifashishwa mu kwambutsa ibintu vuba.

Ikirago ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa murugo, iyo bicaye cyangwa se ukaba wabiboha ukabijyana ku isoko, kugira ngo ubone amafaranga bityo ukiteza imbere.

Abantu benshi uri kubona ko bari mu bukwe, kuko imbere ya ho bateretseho ikibindi bari gusogongeramo, abagabo batatu n'abagore bahagaze impande ya bo, bafite inkoko.

Abantu benshi bari gukora siporo yo gusimbuka ,abenshi barimo ni abagabo. Gukora siporo ni byiza cyane, bituma bituma umubiri umera neza, ndetse hari na bamwe bibyarira amafaranga.

Umukecuru ufite uduseke, uri kubona ko yishimiye uduseke afite ,kubera umugabo ukora uduseke ari mwiza cyane.

Agaseke, agaseke gakoreshwa cyane mu muco Nyarwanda ,iyo bari gutwara nk'ibintu cyangwa se bagiye gutwerera umuntu ,baka bashyiramo ibyo bamujyaniye babinyujije mu gaseke.

Ibikoresho bya kera byakoreshwaga bari kunywa inzoga no kuzitarura, biteretse ku nkoko, inkoko nayo iri ku kirago. Ibicuma byakoreshwaga bari kugira inzoga.

Abantu benshi biganjemo abagore nabagabo, harimo n'abasirikari bose bari gukora umuganda ,wo guca umuferege.

Abakobwa beza bari kubyina, hicayeho n'abagabo bane, bari kubakomera amashyi, iyi ndirimbo bari kubyina. Bambaye imikenyero y'ubururu, n'udupira tw'umweru.

Umuntu uri gusya amasaka, uyu muntu ari gusya amasaka kubera ko ashaka kunywa igikoma cyangwa kwengamo ubushera, amasaka ni meza cyane kuko yifashishwa ari gukoreshwa mu nzoga cyangwa mu gikoma.

Umugabo wasokoje amasunzu, uyu mugabo asa nk'aho ari umwami, umuntu wategekaga yabaga akuriye igihugu, abami bifashishwaga bari kuyobora abaturage.

Mu bijyanye n'umuco, gucuranga inanga ni ibintu byakundwaa n'abasaza cyangwa abakecuru cyane, ariko ntabwo bivuze ko n'abasore batabikora . N'abasore ubungubu bajya barabikora.

Icyansi, sekuru, igisabo, nabyo bishobora kuba wabikoresha cyangwa se ukabikora kugirango ubone amafaranga. Uri gukoresha icyansi, uri kubuganizamo amata cyangwa se igisabo ugacundamo mata, ukayabyazamo amavuta.

Ahantu bajya gusya amasaka ,cyangwa se ibindi bintu by'impeke hakoreshejwe urusyo ,uri kubona ko ahantu hameze neza nkaho.

Kugosora na byo ni nk'umucyo utuma abantu babaho neza, bavanguye imyaka bakayitandukanya n'imyanda, kugira ngo amafaranga cyangwa se imyaka yabo ibeho imeze neza.

umuvure bari gukamiramo imineke imineke zivagamo inzoga iryoshye cyane abanyarwanda abenshi barazikundaga cyane cyane abasaza bari hejuru bakuze kera bakunda kuyisomaho

Ikibazanyo cy'igishusho kibajwe mu giti, kiri aha ngaha kihahagaze hari ibyo kiri kwerekana mu muco wa kera, uko byajyaga bigenda.

Igishushanyo kigaragaza ibikoresho bya kera, hariho intebe bicaragaho, isekuru basekuriramo, umuvure bakamiramo.

Umuvure. Umuvure wakoreshwaga kera bari gukamiramo ibitoki, ndetse bari no kubikamo amazi. Umuvure ni igikoresho kiza, cya kinyarwanda.

Kugosora ku nkoko, kugosora ni umuco w'abanyarwanda ukundwa cyane kandi utazigera ucika kubera ko abantu bawukunda cyane. Kugosora byorosha gukuramo imyanda mu b'ishyimbo.

Ibicuma bitatu biteretse ahantu mu byatsi. Ibicuma byakoreshwaga kera bari kunyweramo inzoga.

Umuvure, umuvure ni igikoresho cyakoreshwaga kera bari gukama ibitoki, hanyuma bakengamo inzoga. Umuvure urakoreshwa cyane niyo bariguha amazi inka.

Ni abantu babiri, birasa nk'aho ari umugore ndetse n'umugabo bambaye, umugabo yambaye amakote, n'umugore wambaye imikenyero, bari gusogongera inzoga cyangwa umusururu.

Intore, intore zishimisha abantu iyo bari kuzireba, kandi iyo bari no kubyina baba bari gukorera amafaranga.

Imyeyo ibiri iri kumwe, umwe ukuze n'undi mushya ; Imyeyo ikoreshwa bari gukora isuku, isuku ni nziza ku bantu kuko iturinda umwanda.

Umugabo uri gucuranga umuduri. Gucuranga ni byiza kuko biruhura mu mutwe, ndetse n'abananiwe bakabasha kuba bakumva imiziki bakaba na bo baruhuka.

Isuka iri hanze, isuka yifashishwa iri gukoreshwa bari kuyihingisha imyaka, kugira bazabone ibyo bazarya isuka inakoreshwa bari gukwa abakobwa.

Abantu bari kubyina bambaye imyenda yabugenewe. Bari kubyina indirimbo gakondo. Indirimbo gakondo ni nziza kuko hari n'abo ijya irabyarira amafaranga.

Uduseke turambitse kumukeka ,ibi ngibi n'ibikoresho bakoreshaga kera bari kugemura ibintu, ndetse no gutwaramo ibindi bintu bitandukanye.

Umuntu umeze nk'umukobwa ari gusera ku rusyo amasaka kugira ngo abone ifu. Urusyo ni rwiza rutanga ifu.

Ipensi , ipensi ikoreshwa iyo iri gufata ibintu, cyangwa se iri guhina ibyuma, ipensi ikoreshwa ahantu henshi, ku magare, kuri moto, ndetse n'ahandi henshi. Ipensi yoroshya ubuzima iyo bari guhina ibyuma.

Abagabo babiri numugore umwe, imbere yaho hariho amacupa y'amazi birasa nkaho bari kwiga kubintu, kuko ni ishuri rya kaminuza rya eyipiyarasi Ngoma.

Inyubako zubatse neza ziteye amarangi harimo umuhondo, umutuku ,zubakishije n'amatafariye ahiye, mur'izi nzu harimo umugore n'umukobwa bari gukoramo isuku.

Inyubako imeze neza yubakishije ibyuma n'amatafari ahiye, hasi yaho hariho kaburimbo ubona ko inzu ari nziza cyane hari ikintu ikorerwamo.

Inzu ishaje urabona ko hashize igihe itabamo abantu, inzu y'umweru n'umukara ifite amabati ashaje ikaba ifite inzugi n'amadirishya biteye irangi ry'ubururu.

Abanyeshuri bari ku kiliziya, abanyeshuri batonze umurongo muremure bambaye unifomu y'umweru na kaki, biragaragara ko bavuye mu rusengero cyangwa bakaba bari kurwinjiramo.

Inzu igeretse kabiri, izi nzu ziteye amarangi asa n'umuhondo kandi uri kubona ko amatafari ari ahiye, ahantu uri kuhinjira hari bariyeri ntabwo wahinjira udafite uruhushya.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, yubakishishije n'amabati y'ubururu, iteye amarangi y'umuhondo, hanze hariho n'imigezi y'amakaro.

Urusengero rusa nk'aho rumaze igihe rutagikoreshwa, uri kubona hirya yaho hariho ingoro ya Bikira Mariya.

Mu ruvunge rw'abantu benshi, uri kubona ko bari ku muganda w'ahantu. Inzu y'ibiro runaka bikoreshwa n' akagari ,cyangwa umudugudu ,cyangwa umurenge.

Umugabo uri ku igare asa nk' aho agiye kwinjira mu gipangu kirimo inzu, iriho amabati y'umutuku, ikikijwe n'igipangu kinini.

Ikiraro cyo mu kirere bita indege, iki kiraro gifasha abantu benshi mu koroshya urugendo kuko ahandi kiba kiri mu misozi ibiri. Iki kiraro kiriho abantu bari kukinyuraho.

Inzu igeretse kenshi, iyi nzu yubatse neza biragaragara, hasi hari kunyura n'abantu bari mu rugendo.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye n'amabati agezweho ameze nk'amategura, iyi nzu ifite amadirishya n'imiryango bisa n'umweru. Aha hantu biragaragara ko hakorerwa ikintu, atari mu nzu y'umuntu.

Ahantu haba ibiro byo gupimiraho ubutaka no kubugabanya ndetse na serivisi z'irembo, harimo no gufotora ibyangombwa n'ibindi byinshi.

Inyubako nini cyane, igaragara nkaho ari urusengero yubakishije amatafari ahiye, amabati y'umutuku, hariho ibyapa bihagaragaza.

Aho banweshereza esanse, kuko biteje imbere babinyujije mu buryo bwo kunwesha esansi, kugira ngo ejo heza bazabone uko baba bameze neza na bo.

Ikigo cy'amashuri urikubona ko hakorerwa umurimo wo kwigisha abana, kuko harimo n'imigezi mu kigo bakarabaho.

Ni inzu nziza yubatse neza n'amatafari ahiye kandi uri kubona inzu iteye n'amarangi y'umuhondo n'umweru ari inzu yababyeyi.

Bari kuvuga ku burenganzira bwa muntu, ndetse n'ubutabera ku bantu kuko na byo ari byiza muri sosiyete ndetse n'ahandi hose.

Mu ruvunge rw'abantu benshi higanjemo abagore n'abagabo , hari umugore umwe uri imbere, afite urupapuro asa nk aho ibintu ari kuvuga ariko bisoma.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, imbere hariho umuntu uri kubigisha, cyangwa se hakaba hari ikintu ari kubabwira. Abantu biganjemo abagabo n'abagore kandi bambaye n'imyenda inyuranye.

Uruvunge rw'abantu benshi abicaye hariho n'abahagaze ,wagira ngo hari icyabateranijeho kuko hariho umugore uri kubabwira ibintu. Aba bantu biganjemo abagore, abagabo ndetse n'abana.

Inama irimo abantu benshi, yiganjemo abagore n'abagabo. Imbere yabo hari umugore uri kubabwira ibintu, hirya ya ho naho hari abantu bari kwandika ibyo avuga.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, harimo moto ziri kugenda n'imodoka ,harimo n'iziparitse n'abamotari batwaye abantu kuri moto.

Abagabo bane bambaye imipira isa hejuru, bari kwifotoza bahagaze imbere y'imodoka yanditseho ngo folukano.

Imodoka zikora ubwikorezi bw'ibintu biremereye, nk'umucanga cyangwa se amabuye. Imodoka zadufasha kugira ibintu vuba kugira ngo ubigeze aho byari bikwiye kujya.

Gare irimo abantu benshi batandukanye biganjemo abagore n'abagabo, aho bategereje imodoka ko iza kubatwara mu bugenzi bwa rusange. Imodoka ni kimwe mu binyabiziga bituma urugendo rwihuta, abantu barayikunda cyane kubera ko yihutisha urugendo.

imodoka nyinshi zajateje ambutyaje mu muhanda byatewe nikibazo cyabaye kuko izi modoka ni nyinshi cane

Abagore babiri bari gusunika ingofani, imwe iriho ubusa, iyindi iriho ibifuka byinshi by'umweru. harimo umwe gusa n'icyatsi.

Imodoka ziba ziri muri gare, harimo n'abantu na bo. Gutwara imodoka nkuko nabyo bitanga amafaranga.

Imodoka ziparitse ahantu harimo tagisi n'indi ntoya, ziparitse ahantu nk'aho hari icyo zaje kuhakora.

Moto yo mu bwoko bwa Rifani ni moto yamapine atatu, aha hantu hasa nk'aho ari ahantu bazicururiza, iyi moto ifite amapine y'umukara, ndetse iteye n'irangi ry'ubururu, biragaragara ko ari nshyashya.

Umugabo uri kwiga uhetse inkwi zogutekesha, umugabo akaba ari ku igare ,akaba ari umunyonzi, kuko afite umusego hejuru y'inkwi.

Imodoka iri gupakurura amabuye ameza nk'amagaraviye; imodoka isa n'ubururu ifite n'amapine asa n'umukara.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ku buryo bibyara amafaranga, na byo bibyara amafaranga ku buryo wabasha kwiteza imbere, mu bintu byo gutwara abagenzi muri rusange.

Imodoka iri mu umuhanda itatse amarangi menshi, imodoka yanditseho visiti Rwanda. Imodoka ni nziza cyane yorosha urugendo, kandi n'abantu barazikunda cyane.

Umumotari uparitse ku muhanda . Yambaye agapira k'ubururu akora ikimotari. Ikimotari ni cyiza cyane, kigira amafaranga ku buryo umuntu abasha kwiteza imbere.

Umuntu uri ku igare utwaye undi inyuma, akazi kubunyonzi gakizaga abantu benshi cyane mu Rwanda kuko nako kiteza imbere, abanyonzi nabo ubu babashije kwiteza imbere.

Umugore utwaye igare ririho inkoko, umugore avuye mu isoko, kugura izi nkoko kugira ngo azicuruze, inkoko ni nziza kubantu bazirya ndetse n'abazorora, kuko zinjiza amafaranga.

Uruvange rw'abantu benshi harimo abagore, abagabo, n'abana, bari ahantu hari imodoka nyinshi ,wagirango ni muri gare ,hariho inzu zisakaje amabati ,ashaje izo nzu zifite amarangi y'umutuku.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota, ipakiye ibintu byinshi bisa nkaho biri mumakuleti.

Mu modoka ihetse ibiribwa by'ibirungo harimo: beterave, karoti, ibitunguru n'ibindi birungo byinshi; imodoka ifite amarangi asa n'ubururu, imodoka ni nziza cyane kuko yihutisha urugendo ukaba wabasha kujya ahantu vuba cyangwa ujyanyeyo ibintu.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, harimo amagare, moto ndetse n'imodoka ,uri kubona ko ari byiza cyane.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga harimo moto n'imodoka, uri kubona ko biri mu kazi biri gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Ahantu umugabo uri gupakira imodoka ashyiramo ibitoki, hano hariho na moto ndetse n'umutaka, umuntu acuruzamo amayinite.

Urujya n'uruza rwa moto, ndetse n'imodoka, uri kubona ko biri kugenda ntakibazo, ibintu ari sawa cyane, umutekano uhari, ari ari rwose.

Umumotari utwaye imifuka ibiri， n'ibitoki bibiri，ibirayi biri mu mufuka，umumotari abihetse，aparitse，ariko asa nk'ugiye kugenda. Moto nayo yabyaye amafaranga， ari gukora gutwara imizigo.

Umugore usunitse igare ririho ibitebo bibiri, biragaragara ko n'abagore nabo bashoboye, kuko bashoboye no gutwara amagare.

Imodoka zikora umurimo wo gutwara abantu mu modoka nini. Imodoka iri kumwe n'izindi ziri imbere n'iziri inyuma.

Imodoka nini cyane yatwara ibintu biremereye, ubona ko rwose ishoboye kwikorera ibiro byinshi.

Imodoka iteye amarangi yi'cyatsi n'umweru, imodoka itwara abantu bagiye kurugendo. Imodoka ni nziza cyane kuko yorosha urugendo.

Imodoka zihagaze ahantu hitwa muri gare, ahantu hari abantu benshi, bakeneye gutega bagiye gusura abandi bantu, kuko imodoka nizo zihutisha urugendo.

Imodoka iteye amarangi y'umweru ndetse n'imifuka myinshi irimo ibintu. Umugabo uri kwinjiramo afite imbunda, ari gukandagiraho agiye kumufata, afite n'indiga mu ntoki.

Imodoka ifite amarangi asa n'ubururu, ihetse ibintu mu ma buwate ameze nk'imboga, imboga ni nziza cyane abantu barazikunda kandi zirinda n'indwara.

Gare ya musanze ,gare ni ahantu baparika ibinyabiziga iyo bivuyemo urugendo, hari n'ahandi bigiye kwerekeza, gare ni nziza kuko itanga urugendo rugufiya cyane.

Urujya n'uruza rwa moto ndetse n'imodoka, moto ebyiri zihetse abantu , umwuga w'ubumotari ni mwiza cyane, kuko ubamo amafaranga.

Indege ya RwandAir iri mu kirere. Biragaragara ko iyi ndege igiye ahantu, hari ikintu ijyanye bayitumye. Indege ni nziza, zihutisha urugendo kurusha imodoka.

Imodoka yo mu bwoko bwa Dayihatsu iparitse, harimo umuntu uri gupakira imbuto zitwa wotameroni. Wotameroni ni nziza kuko zongera amaraso mu mubiri.

Umwuga w'abanyonzi ukorwa n'abatari bake ,aho hano ari abanyonzi bane bahagaze, n'abandi babiri bari kugenda. Umwuga w'ubunyonzi utunze abantu batari bake.

Abana bari gukina umupira bambaye amajezi y'u Rwanda, abana bambaye godiye, babiri bambaye, babiri n'ab'ikipe imwe, undi umwe hagati ari kubabyiga ashaka gufata umupira.

Abakinnyi ba tenisi bambaye imyenda isa, biragaragara ko bavuye muri siporo. Siporo ni ingenzi cyane ku bantu kuko hamwe na hamwe yinjiza n'amafaranga.

Abana bane harimo abakobwa batatu n'umuhungu umwe. Bafite ibikoresho byifashishwa bari gukina umukino wa tenisi. Gukora siporo ni byiza bituma umuntu abaho atuje.

Abakobwa bari gukina basiketi gukina, gukora siporo bituma umuntu abaho neza akaba akomeye nta ndwara afite.

Ikibuga cya vore, umupira w'amaboko. Ikibuga kiriho fire, ndetse n'ibiti bibiri bifashe iyo fire, iyo fire ikaba isa n'ubururu, iri mu kibuga cy'umucaca.

Umukinnyi uri gukina umukino wa basiketi, urabona ko ari gushaka kudunda cyangwa se ashaka guhereza undi mukinnyi.

Abana bari gukina umukino w'amaguru. Umukino w'amaguru ni mwiza cyane, kuko udufasha kunanura umubiri, kandi bamwe na bamwe uranabahemba.

Ahantu heza hari ubwogero bwitwa pisine, aha hantu biragaragara ko ari heza cyane, kuko urebye hariho amakaro hose ntawabitindaho kariho pisine.

Umugabo uri muri siporo ya marato, aha ari kwiruka ubona ko afite imbaraga na kuraje zo kwiruka cyane.

Abakobwa batatu n'abahungu babiri bahagaze ahantu, basa nk'aho bari kureba abafana ,bahagaze hejuru kuri siteji, bafite n'ibihembo.

Umupira bakinisha intoki witwa basiketiboro. Basiketi ni nziza, abakinnyi bajya gukina hanze, bakabaha amafaranga.

Abakobwa bane bafite imipira yo gukina muri vore boro, babiri bambaye imyenda isa nabandi bambaye isa vore boro ni umukino ukungahaye cyane, kuburyo winjiza amafaranga menshi.

Umukobwa wishimye asa nkaho ari guserebura, atsinze igitego. Gukina ni byiza byongera umubiri neza, kandi bigira n'amafaranga ku bakinnyi.

Ni abakinnyi bari gukina umupira w'intoki, bambaye imipira y'umuhondo, n'amakabutura y'icyatsi, ufite umupira asa n'aho agiye guhereza mugenzi we.

Imodoka y'amasiganwa. Imodoka mu gukoresha mu masiganwa, iyo bari gusiganwa n'izindi modoka, zikoreshwa iyo bari gukorera nk'amafaranga abantu bazitwara, cyangwa Igihugu kikaba kiri kugira amajyambere cyangwa iterambere.

Abagabo bane bari mu masiganwa yo kwiruka, siporo ni nziza ituma ugabanya indwara zo mu mubiri.

Ikipe y'abantu benshi n'ikipe igizwe n'abakobwa. Uri kubona ko babahaye igikombe bishimye cyane ndetse n'abayobozi babo barahari.

Imodoka iri mu masiganwa, urikubona abantu benshi bari kuyishungera aba bantu biragaragara ko bari kureba isiganwa.

Umugabo urigukina umupira wa gatenesi witwa tenisi. Tenisi ni nziza cyane, kuko hari bamwe iha amafaranga.

Ni abakobwa batatu bari gukina umukino w'amaboko, umwe yambaye imyenda y'umweru n'umukara, n'undi yambaye iy'umweru, basa n'aho bashaka kumwaka umupira.

Abatwazi b'amagare b'amarushanwa bari kwitoza. Bose bambaye imyenda isa. N'amagare bose bameze kimwe. Hari imbere umuntu uri kubatoza ni we uri kubayobora.

Ahantu bogera hazwi nko muri pisine, pisine ni ahantu abantu bajya iyo bananiwe cyangwa bari kumva bafite icyokere kugira baruhuke.

Sitade amahoro iyi ni sitade ifitiye u Rwanda akamaro, kuko bakiriramo imikino itandukanye y'inyamahanga. Sitade ikoreshwa bari gukina , kandi ikinjiza amafaranga ku gihugu.

Abantu bangana n'ikipe barimo bari gukora siporo, aho gukora siporo binanura umubiri, umuntu akaba yabasha kubaho neza, Kandi hari n'abo siporo ibyarira amafaranga.

Umugabo uri gukina teninisi ari no gukora siporo, inyuma ye hariyo umugabo uri kumureba, gukora siporo ni byiza, bituma umuntu abaho neza.

Abakinnyi ba basiketi bahagaze hamwe, bafite bamwe na balo, bose bambaye imyenda isa, bamaze gukora siporo. Gukora siporo ni byiza cyane ku mubiri w'umuntu kuko bikomeza imitsi, bikanarinda indwara.

Abakinnyi b'umupira w'amaboko, abakinnyi bari kwifotoza kubera ko biri kugaragara ko babonye itsinzi, itsinzi ni nziza kuko yinjiza amafaranga.

Umukinnyi wishimye, usa nk'aho yahawe igihembo, uri hagati yabagabo babiri, umwe wambaye amarinete, undi wayashyize ku ishati, biragaragara ko bamuhembye.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru. Ikibuga giro kanini cyane ku Gihugu, ndetse no kubahaturiye. Ikibuga gikinirwamo umupira, abakinnyi bakinjirizamo.

Ahantu hanini hari kugaragara ko ari muri sitade, hariho abantu benshi, no mu kibiga harimo abantu basa nkaho bari gukora imyitozo, gukora imyitozo ni byiza kuko bituma umubiri umera neza.

Abakinnyi bari mu mukino, baba umukino uri kubona ko abakinnyi ari abanyarwanda kubera ko imyenda bambaye ari iy'u Rwanda.

Abakobwa babiri, bari gukina basikete hari uw'u Rwanda, n'uwarijantine . Gukora siporo nibyiza bituma bigabanya umubyibuho w'umubiri.

Abakinnyi bari gukina umupira w'amaboko. Uyu mukino witwa vore boru, gukina ni byiza bituma ukura neza kandi ugabanya ibinure mu mubiri ukaba wabasha kugira umubyibuho uringaniye.

Abakinnyi bari gukina umukino wa basiketi. Gukina ni byiza bituma amaraso atembera neza mu mubiri, abakinnyi kandi na bo baba bari gukorera amafaranga.

Ku kibuga cya voreboro, abakinnyi bambaye imyenda y'umukara, bari gukina bambaye imyenda igiye gusa n'umutuku, gukora siporo ni ingenzi cyane ku bantu bose, kuko bituma umuntu atarwaragurika.

Abakinnyi b'umukino w'amagare, bahagaze bari kubabwira amategeko n'amabwiriza birakurikizwa mu mukino, imbere yabo hariho umugabo uri kubibabwira.

Isantere irimo abantu benshi, hariho umugabo uri kwiyumvira ahagaze agiye kuvoma cyangwa akaba avuyeyo, hariho abamotari baparitse barase kuko nta bagenzi bari kubona.

Urusisiro rugizwe n'inzu ziteye amarangi y'umuhondo n'icyatsi, ruhuriweho n'umuhanda baparitseho na moto.

Umuhanda w'amapavi ,dore ubu ngubu ushobora gushyiraho utuntu ukaba wabasha kwiteza imbere, binyujije muri utwo tuntu uri gucuruza.